Umugabo wambaye imyenda yabugenewe, atera umuti mu cyayi.

Umugabo wambaye imyenda yabugenewe, isarubeti. ufashe insegitisidi, uri gufuhira mu rurabo.

Abapolisi ,n'abasirikari n'abaturage bari gukora, bari gufumbira ibigori bikiri bitoya, bari gukora umuganda.

Umurima urimo umugabo uhetse ipombo, uri gufuhira imboga z'amashu. Amashu tuyifashisha iyo turi kurya kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Umurima munini cyane urimo umugabo wambaye imyenda y'imikara, uri gufuhiramo umuti mu myaka, irimo wambaye imyenda y'imikara, hasi no hejuru, n'ingofero y'umukara.

Umugabo uhetse ipombo uri gutera umuti mu mashu, wambaye ga mu ntoki n'agapfukamunwa, yambaye n'itaburiya n'ingofero y'umutuku na bote.

Amafi atatu arambitse ku isahani hariho na tungurusumu ku ruhande, yose iri kumwe n'agaheke, hari n'igitiyo gihari ku ruhande kiri kugaragaza umurima.

Isorori irimo ibyo kurya, amafiriti, inyama, amapowavuro na makaroni n'amafi.

Isahani nziza bateguyeho basizeho amafi n'amakaroni na puwavuro bakatiyeho.

Urunyanya rurambitse, hariho n'ifi, n'igihaza, na puwavoro, n'iteke. Birambitse ku ntara.

Amafi abiri arambitse ku nkoko, hasi y'amafi hariho afutsemo yo gutwara ndetse n'utwatsi hasi hari inkoko.

Igifi kinini kiri mu mazi bita imamba, ariko hafi y'ugutwi cyakomeretse.

Ifi iri ku isahani hariho n'ibirungo bihiye, hariho n'ibirungo birimo puwavuro, inyanya na makaroni.

Imbuto y'indimu ikase mo kabiri. Hirya y'aho hariho imineke ibiri, hirya yaho hakabaho inanga ifasha mu gucuranga kinyarwanda.

Amafi ari mu ndobo, ababuye bazanye, ari gucuruzwa.

Ishyamba rinini, ririmo ibiti byumye, hakurya yaho hariho ibiti binini.

Ishyamba rinini cyane riri hirya y'umurima w'icyayi icyayi cyeze hari icyari cyeze n'ikiteze.

Ishyamba runini cyane ririmo ibiti biri kugaragaza imizi yabyo ariko nta kugaragara n'aho biteye ijya bariho ururabo n'ibindi iri shyamba rihinga bi kugaragaza ibiti bigufi

Igihuru kiriho inzira hari igiti kinini cya avoka, giteyemo marakuca hirya ya'ho hari ikirere gisa n'ubururu.

Umurima w'urutoki uri hirya, imbere haka ibiti byi'sombe, umurima udahingiye harimo n'ibiti binini, amasipuri.

Umurima w'ibigori imbere yawo hari n'urutoki, ibigori tubyifashisha iyo turi gushaka umutsima n'igikoma cyo kujya duha abana, n'ibitoki tukabyifashisha igihe turi gushakamo umutobe wo kugira ngo tunwe, ubuzima bumere neza.

Umurima urimo ibitunguru, hakurya hariho urutoki, hariho n'ibiti by'amasombe.

Inzu nini cyane yubakishije amatafari ahiye hariho ururabo runini cyane rurimo za marakuja.

Umurima w'urubingo rwinshi, imbere yurwo rubingo hariho urutoki, imbere hariho ibiti birebire, imbere yaho urutoki ibyo biti birebire hakabaho inzu y'amarangi y'ubururu.

Umurima munini, urimo indabo, hirya yaho harimo insina, hafi yo y'urukuta rwinzu.

Umurima munini basaruyemo ibigori, harimo ikigorigori, urimo abagabo babiri. Abo bagabo umwe yambaye mupira w'umweru, ipataro y'umukara, undi yambaye umupira w'bururu.

Inyubako nini cyane ifite fondasiyo y'amatafari, hejuru bateze bagasakara igisenge, bari kubaka inegisi.

Umurima munini cyane urimo ibikenyeri, urimo hakurya yaho hariho ibiti birebire cyane by'amageveriya, ni murima usaruwemo ibigori.

Umurima uhinzemo ibobere, haruguru yaho hariho n'igitari kirimo ibiti binini, hagati y'ibobere n'igitari harimo inzira.

Indabo zihinze mu murima, harimo umweru n'umuhondo zimeze neza.

Itunda risingiriye ririho amatunda atarera riteye mu murima munini.

Umurima munini uteyemo ibiti by'amacunga. Ibyo biti, hakurya y'ibyo biti by'amacunga, hariho ishyamba rinini cyane. Hirya yaho hariho n'imisozi.

Umurima w'icyayi harimo umudamu uhagaze. Hakurya y'aho hariho ishyamba ry'ibiti binini.

Voka nziza cyane bakasemo ibipande bibiri, hariho n'izindi ebyiri ziri ku ruhande batarakata basize ku isahani.

Umurima munini urimo amatunda atarahisha n'andi yeze, n'uruyange rw'amatunda.

Isoko ry'ibitoki harimo abaguzi n'abagurisha, harimo n'abanyamagare, harimo n'ibitoki bipakiye ku magare, hagati mu isoko.

Imifuka y'ibirayi iteretse, idoze. Imifuka irimo amabara y'imituku. Ibirayi bidufasha mu kurya kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Imbuto za avoka ziri mu giti, mu murima munini, harimo na avoka nini cyane, avoka ni nziza cyane, bayikoresha mubyo kurya bya buri munsi.

Imiteja isutse ahantu. Imiteja akamaro kayo, turayirya ikadufasha kugira ubuzima bwiza.

Ibirayi bya Kinigi, biri mu mufuka wagira ngo bitegereje kugurishwa.

Umugabo uri mu murima urimo amapapayi, uri gukoraho, ushaka gusoromamo ibipapayi wambaye ingofero y'icyatsi, n'umupira w'umukara n'ipantaro y'igitaka, umugabo yambaye n'isaha ari guseka.

Amabase arimo imyumbati ikuye ihagaritsemo ni amabase nk'atatu, imbere y'aho imbere yayo mabase hariho umudamu wambaye imyenda y'imyeru, n'umugabo wambaye imyenda y'imikara n'undi wambaye imyenda y'imihondo. imbere yabo bantu hariho inzu iteye amarangi y'umuhondo.

Ibirayi biri bisutse hasi bya kinigi binini cyane bategereje gushyira mu mifuka, ibirayi tubyifashisha mu kubirya kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Intoryi zisutse hasi zisoromye. Intoryi ni ibihingwa twifashisha kugira ngo tuvange n'ibindi biribwa turi kurya, nk'ibishyimbo, kugira ngo zibe imboga.

Abagabo batanu bari mu muririma w'icyayi ,bari kugenda basoroma ,harimo abambaye imyenda y'imikara ,ingofero z'imituku n'amashati y'imituku.

Abantu umunani harimo umugabo wunamye uri kubagara ku kibuga n'umudamu, uwo mugabo uri kubagara yambaye itiriningi igiye gusa n'umutuku n'umupira w'umukara. Harimo n'umugabo nabambaye imipira y'ubururu n'ipantaro y'umuka...

Ibijumba binini cyane byatura bisutse hasi, ibijumba byifashishwa mu kubirya kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Umurima w'bigori urimo abakobwa babiri bari gufuhira, n'abagabo babiri bambaye amasarubeti y'ubururu n'amaboti y'icyatsi, hakurya y'aho hashinzemo ibyapa.

Imbuto nziza cyane z'amapera zihishije, amucunga, amacunga ahishije, arimo ay'umuhondo uhiye, iz'umuhondo udahiye n'andi atari yashya neza y'icyatsi.

Abadamu batatu bari guhinga mu muririma, inyuma yabo harimo ibiti by'amacunga bibiri, abadamu bambaye babiri bambaye ibitambaro, undi ntabwo yiteze igitambaro, bambaye n'ibitenge by'icyatsi, undi icy'umutuku.

Abadamu bavuye mu murima wi'icyayi gusoma icyayi bikoreye mu bitete harimo n'abagabo bari inyuma yabo, umugabo umwe wa imyenda y'umweru nawe yikoreye ntabwo yikoreye amapata y'umukara.

Igiti cy'umwembe, gifite amabara yicyatsi, umutuku, hirya yaho hariho ururabo rufite amabara yubururu, n'umuhondo n'umweru.

Imbuto ziribwa zirambitse ku mufuka, harimo imyembe, marakuja zisa nk'aho zifunze imifungo, harimo imifungo igera nko kuri cumi n'itanu.

Umugabo uri gusoroma indabo . Ari kugenda ari gushaka indabo zihishije harimo iz'umuhondo n'iz'umweru, n'izicyatsi yambaye umupira w'umweru.

Abagabo batatu bafatanye, bazamuye amaboko hejururu, umwe wambaye imyenda y'imihodo, ishati y'umuhondo, ipantaro y'umukara, bodaboda, undi yambaye ishati y'icyatsi, undi yambaye amapira w'ubururu, bahagaze muri Jaride.

Umurima w'ibisheke, ibisheke bigiye gukura bisa n'umuhondo, imbere y'uwo murima hari n'indabo z'amaroze . Ibisheke turabyifashisha igihe turi kumva dufite inyota, tukabirya bikatumara inyota.

Ibitoki binini cyane bibiri, batemye, imbere yaho hariho umuntu uhagaze, umudamu.....

Umurima w'urutoki, harimo igitoki kimwe cy'inyamunyu, izindi n'insina hirya yaho hariho ibigori, ibigori hirya yaho hariho uruzitiro, ruri kureguka ruri guhinguka.

imifuka myinshi cyane iri ku muhanda itegereje imodoka, y'ibijumba bagemuye mu masoko kugira ngo tubirye.

Umudamu uri mu murima w'ibigori, uri kugenda akanda ku kigori agatobora ngo arebe ikigori cyeze. Uwo mudamu yambaye agasengeri k'umuhondo n'igitenge ntabwo yipfutse igitambaro.

Inseri z'imineke, inanasi, amapapayi, ibibiringanya, amacunga, imbuto z'ubwoko bwose basutse hasi, ibihaza, imbuto z'ubwoko bwose.

Ikibuga gisutseho ibijumba, ibijumba bya tura bisa n'umutuku, ibijumba turabyifashisha iyo turi kurya tukabirishya imboga kugira ngo tugire ubuzima bwiza bikaba bifite n'imyunyu.

Abadamu babiri bari mu bigori umurima w'ibigori bihaguye byumye bari gutsindagira mu mifuka umwe wambaye ingutiya y'umutuku n'agashati k'ubururu. Undi wambaye ingutiya y'umukara n'agashati k'umweru utipfutse igitambaro, undi yipfutse igitambaro kijya gusa n'igitaka.

Umurima munini bari gusaruramo ibigori harimo umudamu w'igitambaro cy'ubururu n'ishati y'umukara ifite amabara y'umutuku amanuye afashe n'ikigori mu ntoki n'undi uhagaze wambaye imyenda y'iitenge cy'umutuku n'umupira w'umukara, n'umugabo uri guhagura ikigori ku ruhande, impande hari undi wunamye n'undi uhagaze.

Ipera rihishije cyane, harimo amapera atatu ari ku giti, amapera arahiye cyane.

Amateke y'amanyabwenge atatu arambitse hasi meza yogeje cyane.

Umurima urimo ibirayi bisutse hasi byinshi, imbere y'aho imbere y'aho hariho insina iri kugaragaza amakoma abiri n'irya gatatu ry'igice.

Mu butayu harimo umuntu uri kuremesha inama, bose ari kubabaza ibibazo bari gushyira amaboko hejuru, bose bari gushaka gusubiza harimo abadamu n'abagabo.

Intoryi. Izi ntoryi twifashisha turi guteka ibishyimbo, tukazivanga na byo kugira ngo ibishyimbo bibone bibe byiza maze turye n'ibishyimbo biririmo intoryi.

Abanyeshuri bambaye imyenda y'imyeru n'imikara b'abahungu n'abakobwa, harimo umudamu wambaye ibitenge, birimo ibara ry'umutuku n'umuhondo n'icyatsi. Bari mu kayira bari kugenda hagati. Iruhande rwabo hari igiti cy'imyembe yeze.

Umugabo uri guca ikigori cyahetse ibigori bibiri ,uwo mugabo yambaye isarubeti y'ubururu ,hirya yaho hariho undi mugabo wambaye ipantaro y'umuhondo, n'umupira w'umukara urimo n'ibara ry'umweru.

Umugabo uri mu murima w'ibirayi, waranduye ibirayi uri kuyerekana, ufashe hirya no hino ibirayi, ibirayi biniri bikiri ku migozi mu kuboko ko hino, wambaye linete z'umukara, n'ikositimu, n'ishati y'umuhondo, hirya yaho hari ishyamba.

Ibijumba bininibya tura birunze hamwe, ibijumba turabirya iyo dushonje, kandi ibijumba ni ibijumba bifite vitaminini itera imbaraga.

Umugabo n'umugore bari mu muririma w'amashu, umugabo ndabona yambaye ishati y'icyatsi, ipantaro y'umukara, umudamu igitenge cy'amabara n'umupira w'umutuku, bari guterura ishu.

Umukobwa uri mu muririma w'itabi, hakurya yaho hariho igishyamba ishyamba ririmo ibiti binini.

Amateke y'amanyabwenge yogeje neza ari ibisate bitatu, ayandi abiri adakase ari kugaragara imitwe, umutwe w'iteke usa n'umutuku.

Amasafuriya arimo ibiribwa batetsemo inyanya, ama amafi, n'ibihaza. Ibiribwa turabirya tukagira ubuzima bwiza.

Umurima munini w'icyayi urimo abantu batatu umwe wambaye ingofero y'umweru, ishati y'ubururu, undi umupira w'umutuku, n'ingofero y'umutuku n'umupira w'umukara, ishati y'umweru, undi hirya wambaye umupira w'umutuku.

Inkoko yubuye, icuritse. Bayicuritse ikase n'amajanja ibaze.

Ihene ebyiri imwe y'umukara indi y'umutamu irikurisha urubingo, hirya yaho hari igiti gishinze cyumye.

Umudamu uvuye gusoroma intoryi, imbuto, wikoreye umufuka munini cyane w'umweru, wambaye imyenda y'imyeru, uri kugenda mu kayira ko mu ishyamba.

Imifungo y'ibitunguru myinshi isutse ku mufuka. Ibitungu twifashisha turi guteka kugirango amavuta acamuke.

Umurima munini cyane wa shufureri muri uwo murima hahagazemo umugabo wambaye umupira w'icyatsi, ishati y'umutuku n'agapfukamunywa, n'ipataro y'ubururu. Hirya y'uwo murima harimo inzu iri kugaragaza igipande kimwe gisakaje amategura.

Umugabo uri muri shitingi uri mu murima w'ibigori, wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara. Ibyo bigori ntabwo byari byera, biracyaheka.

Abagabo babiri bari gutambagira imbuto. Abo bagabo babiri, umwe yambaye ishati y'ubururu, ipantaro y'umukara, undi yambaye songambere n'umupira w'umweru n'agatisheti, n'ikabutura y'umutuku.

Ibihaza binini birambitse hasi ibihaza bitanu byiza bitaga ibihaza by'ubugondo twifashisha turimo kurya.

Inka eshatu ziri mu rwuri, imwe y'umukara n'ebyiri z'ibihogo.

Umugabo wambaye songambere wayirebesheje inyuma; mu murima w' ibigori bikiri bitoya uri gutoranyamo nkongwa ibyonyi byankongwa.

Ishyamba rinini ririmo ibiti, harimo amabara y'umweru n'umuhondo rimeze nk'ipariki.

Ibishyimbo bitanu kimwe cy'urugarama, ikindi kigonze, ikindi cy'umugondoro, ikindi cyashinze umuzi, ikindi kitarashinga umuzi...

Ibigori bari gutoranya bari gukuramo ibyangiritse. Bari kubisuka ku mabase kugira ngo bajye kubibetesha babonemo ifu yo kurya umutsima, kunywa igikoma no gukoramo akawunga.

Amahundo y'bigori adatonoye, ariko afunze imifungo, amanitse, yegeranye cyane.

Amahundo y'amasaka atatu agesheje, arambitse ku kibuga, amahundo yeze cyane.

Umusaza uvuye gutashya inkwi wasize mu muhambiye ufite n'umuhoro mu ntoki, wambaye wahambiriye mu mufuka wikoreye ku ikote ufite n'umuhoro mu ntoki.

Ingano zirambiye, zishambitse, zidahuye, zikiri kumwe n'ibikenyeri byazo zicuritse.

Umudamu urimo umurima w'intoryi wambaye ijipo y'umweru n'amabara y'umukara, umupira w'umutuku n'igitambaro cy'umuhondo uri kuzikorera y'itoki.

Ibishyimbo by'imiteja bisutse ahantu hari uruziga rw'umweru rudahiye n'umukara, ari hirya hariho n'ururabo, indabo z'umuhodo n'icyatsi.

Ibishyimbo bigufi bihinzwe mu murima wamakoro, ibishyimbo, ibi bishyimbo ni imiteja, ni imiteja.

Umurima w'ibisheke, urimo ibisheke byinshi byegeranye cyane, ibisheke turabirya tukagabanya imyuma, bidushyira n'isukari mu mubiri.

ingemwe za soya itatu, soya ni igihingwa duhinga tukagisarura, tukakiyifashisha tukagishyira ku mashini bakagikemuramo amavuta, kuko soya n igihingwa, kigira amavuta meza ya soya goldey adufasha yaturiye tukamererwa neza.

Abantu bari mu murima bari gusarura n'abari gutoranya ibishyimbo, bari kubishyira kuri bari gukuraho ibishogoshogo ngo bayore ibishyimbo, bambaye imyenda y'imyeru harimo n'ibitambaro by'imihondo n'iby'icyatsi. Ndabona bamwe batangiye kubyikorera ku mabase.

Umugabo uri mu ishyamba uhagaze imbere y'umufuka huzuyemo ibyatsi, uwo murima ahagazemo urimo n'amakoro, yambaye umupira utari icyatsi neza n'ingofero, afashe n'umuhoro mu ntoki.

Ibishyimbo biri ku nkoko, ndabona bitoranyijwe. Harimo iby'umuhondo, icyatsi, iby'ubururu. Imbuto zitandukanye. Harimo abadamu bambaye, bari kubitoranya bambaye.

Ibishyimbo biri mu murima imbere yaho hari amakoro, ibyo bishyimbo bishingiriye bikiri bitoya biriho ibishingirizo birebire cyane.

Ibishyimbo byanitse ku ihema byumye, bagiye guhura kugirango ngo bashakemo ibyo kurya, ibishyimbo byumye.

Ibase, ibase bari kwaruriraho ibirayi bya sote. Ibirayi bya sote turabirya. Ibirayi ni ibihingwa bidufasha, iyo turi kubirya tukamererwa neza.

Akabase gasutseho ibishyimbo by'umweru n'umukara, ibishyimbo tubyifashisha mu kubiteka tukabirya , kugira ngo ubuzima bwacu bugende neza.

Inka bariguhumuza zikibamba, umweru n'umukara, inka nziza cyane ziri mu rwuri, inka nini iri kumwe n'inyana yayo bari no guhumuza.

Ihene y'umukara nini cyane, ihagaze mu rwuri, ifite amahembe maremare, iri kureba inyuma. Iri kumwe hariho akana kambaye ikabutura y'umutuku n'umupira w'umweru kayiragiye.

Inka iziritse mu rwuri baziritse akaguru k'inyuma itari kurisha yahagaze.

Ingurube nini cyane irimo, iri mu kiraro cyubakishije amatafari irimo no kurya, irimo no kurya isa n'umukara ifitemo n'ibara ry'umweru.

Ikibuga kirimo abantu benshi bambaye amataburiya y'icyatsi, n'ubupfukamunwa bw'ubururu. Harimo n'uwambaye ingofero y'umuhondo. Abo bantu baje gufuhiza inka, kuyitera umuti kugirango bice uburondwe.

Umukobwa ushoreye inka uri kuyinjiza mu rupangu, igicuba ku ruhande ukamiramo amata iyo ushaka kuyihumuza.

Inka nini cyane, inka y'Isine, ifite ibara ry'isine, iryamye mu rwuri yahaze. Inka ni itungo tworora rigatanga umukamo tukabona amata, amata agatuma abana bacu bakura neza iyo bayanyoye.

Abaveterineri bari gutera inka urushinge, harimo n'umuzungu, harimo n'umugabo wambaye isarubeti y'ubururu, ufite na terefone ku mukandara, imbere ye hariho n'undi mugabo ufashe umurunga ku mahembe.

Urwuri rurimo inka enye harimo inka y'ikibamba n'indi y'isine n'indi y'umusengo n'indi y'umukara ziri kurisha. Mu rwuri harimo n'iziri kureba hirya.

Umurima urimo inka ariko izo nka zihagaze mu murima w'icyayi . Ni inka z'Ikibamba , hahagazemo abantu , harimo umugabo wambaye ishati y'ubururu , n'ambaye ishati y'umweru , n'uwambaye ishati y'umutuku.

Ibyana by'ingurube birindwi, bimwe biraryamye, ibindi birahagaze, imbere yaho hariho igiti kinini, harimo n'inzu y'amatafari ahiye isakajwe amategura.

Abagabo babiri bari gushishira ingurube nini, bambaye imyenda y'imyeru, undi yambaye agapira k'umuhondo, mu nda shati y'umweru, ingurube iri kurya.

Amahene menshi cyane ari murwuri. Ndabonamo izo umukara, umweru n'ibimitamu. Ihene zigera kuri makumyabiri n'enshanu.

Inyoni ziri nko mu murima bita inkongoro zirahagaze.

Ikiganza cy'umuntu, Kiri kugaragara gifashe ifuku, kiyifashe hafi y'umutwe w'ifuku.

inyoni nini cyane ihagaze ku Ishami ry'igiti, ahantu imbere yayo hari amarangi irangi ku gikuta cy'ubururu.

Inyamaswa bita ingwe, iri kugenda gake gake yitegereza hirya no hino.

Inyoni bita agashyushi ihagaze mu gifunzo hafi y'umugezi munini. Iri gushaka amahera iyi nyoni kubera ko ari yo anayitunze n'amashonzi.

Inyoni nini cyane yo mu bwoko bwitwa isande, ihagaze ku gati katagira k'umutwe gatemye katagira amashami, iyo nyoni ifite ibara ry'umuhondo n'umukara ifite amaso atukura.

Inyoni nini cyane ifite amabara. Umweru, umutuku, n'umukara. Ihagaze mu ishyamba ririmo n'amakoro.

Imbeba nini cyane, iri mu murima urimo indabo n'ibigori.

inzovu iri kumwe n'icyana cyayo inzovu nini iri kurusha mu ishyamba iri kugaragaza imigobora za muregwa ebyiri imigobora ebyiri iri kurisha hamwe n'icyana cyayo.

Inyamanswa iri mu ishyamba yiryamiye mu mashami yigiti, inyamanswa bayita ingagi, iraryamye hejuru mu mashami yibiti.

Inyamaswa nini cyane bita isha iri ikwiruka cyane cyane, yarambuye amaguru n'amaboko.

Inyoni ihagaze ku ishami ryigiti ryumye nziza cyane, ifite amabara. Ifite ibara ry'ubururu, umukara, umweru n'umutuku.

Inyamaswa iri mu ishyamba ifite amabara y'umweru n'umukara bita ingwe, iriku kugenda gake gake iri kureba hirya no hino.

Inyoni nini cyane, ifite amaguru y'umutuku, ikagira ibara ry'ubururu, ifite n'umunwa w'umweru, ihagaze mu ishyamba.

Inyamaswa y'isha iri mu ishyamba iri kwiruka cyane, yarambuye amaguru n'amaboko ikandagiye ku mashami y'ibiti, iri kunyura mu mashami y'ibiti hejuru.

Imbogo nini cyane, akanyange gahagazeho k'umweru, n'utundi tunyange turi imbere ya yo turi kwitegereza ukuntu ihagaze, ifite n'amahembe yigondoye arebye hejuru.

Inyoni ebyiri imwe isa n'umutuku, indi isa n'umuhondo, zihagaze ku ishami ry'igiti cyumye.

Inyoni nini cyane, iri mu bwoko bw' ubucurama, ifite amababa manini cyane apanze, ifite n 'amaso y'umukara iyo bita kumanywa igihunyira.